Ibihingwa ngengabukungu harimo ikawa, icyayi, ndetse n'utundi tuntu tugaragara ku ruhande, twasangamo nk'umuceri aho abantu bawutera bashaka kurya, ikindi kandi ibihingwa ngengabukungu byifashishwa cyane cyane mu kubona amafaranga.

Ibihingwa ngengabukungu dusangamo ikawa. Ikawa riba rifite utubuto tugiye dutandukanye. Utwo tubuto usanga ari cyo basarura iyo tweze, bakatujyana ku nganda zikadutunganya, zikatugira neza zikavamo ari ikawa.

Imiti y'inyamaswa ndetse n'amatungo, iyo miti dusangamo nk'iyinkoko iy'ihene, iy'ingurube ndetse n'iy'inka. Iyo tuvuze imiti dusangamo nk'iyibivuguto cyangwa se ibinini, biba biri mu macupa maremare ateretse ahantu muri iyo nzu icuruza imiti y'amatungo.

Imiti y'amatungo, ibi bikunze kuba iri mu macupa kandi ugasanga iteretse ahantu heza hameze neza hafunze ku buryo birayifasha kumera neza bitari buyice kandi usanga yanditseho amahugurwa n'uburyo itangwamo ihabwa amatungo.

Ubuhinzi n'ubworozi ni kimwe mu bikorwa bigize imibereho ya muntu, bituma umuntu abaho neza mu gihe yahinze kandi akarya neza kuko aba arya ibyo yasaruye mu buhinzi bwe, bimufasha kandi kwigirira icyizere ndetse no kwiteza imbere ,ndetse no kubona uburyo afasha bagenzi be mu buryo butandukanye.

Ubworozi bw'amatungo yo mu rugo babukora igihe umuntu yazanye amatungo akayashyira mu rugo ndetse akajya akora akazi ko kwahira azana ubwatsi cyangwa se ibyo zirya mu gihe zitari zagira akazihereza ibyo kurya mu gihe zishonje ubundi zikabona kujya.

Ubuhinzi bw'intoryi, ni ubuhinzi busaba ko uhinga, ugakenera amazi yo kuhira, wamara kuhira ndetse ukanabisasira. Isaso riva mu bintu bitandukanye nk'ibigorigori ibikenyeri se ndetse rimwe na rimwe bakaba bakifashisha n'ibyatsi baharuye hasi, harimo nk'urwiri ndetse n'inyabarasanya, ukagenda ukabisasira mu ntoryi.

Ibihingwa ngandurarugo ndetse n'ibihingwa ngandurabukungu. Ibi ngibi bigizwe n'umuceri ndetse n'ibindi bitandukanye. Umuceri bawuhinga mu gishanga. Aho bakora umurima bakawutunganya neza, ubundi bagashyiramo ingemwe.

Amashyamba ni bimwe mu bwiza nyarwanda tugira, tuyifashisha by'umwihariko akurura ba mukerarugendo baje kureba ibiyagize n'ububwiza afite, abamo tunyoni, abantu batemberamo, amahumbezi adasanzwe, akayaga gahuha.

Urusenda ni igihingwa gihingwa ku buryo bushimishije kandi gitera apeti .Rugira amabara atandukanye harimo umuhondo, iyo rutarakura ngo rwere usanga rusa n'icyatsi ndetse iyo rumaze kwera rusa umutuku.

Kuhira amashu, imboga cyangwa se n'ibindi bihingwa ukoresheje indobo, icyo bita rozari ndetse ukaba wambaye bote zikurinda ko ushobora nko kwangirikira mu murima.

Uburyo bwo guhinga ndetse buhira. Kuhira ni igikorwa gikorwa n'abantu b'abahinzi igihe bahinze imyaka ndetse hakaza kuba nk'ikibazo cy'izuba bakaza gukenera amazi muri ya myaka yabo, aho usanga baca imiferege mu mirima yabo, bagashyiramo amazi noneho ayo mazi bakiyifashisha buhira bakoresheje nk'utubasi, udukoresho duke nyine badaha bamena mu murima wabo.

Hari uburyo butandukanye bwo kuhira. Hari abuhira bakoresheje imirasire y'izuba, hari abuhira bakoresheje impombo, hari n'abuhira bakoresheje moteri. Moteri yayindi ikoresha ingufu z'amashanyarazi cyangwa se ikoresha ingufu za esance. Iyo wuhira ukoresha agahombo gatoya ugenda ugakurura, unyanyagiza amazi mu murima wose. Wuhira nk'amashu, ibiribwa ndetse n'imbuto.

Uburyo isi imeze, isi ituwe n'abantu ndetse n'ibintu, isi kandi ahanini igizwe n'ibyatsi byiza bimeze neza, ugasanga hubatsemo n'amazu, ndetse n'imisozi iteye neza n'ibiti bisa neza.

Ubworozi bw'amatungo magufi harimo inkoko. Inkoko umuntu zoroye usanga zororeye ahantu heza hasakaye, ndetse ugasanga zifite amabara y'imyeru ndetse zimwe z'amasake zikaba zifite n'ibirokoroko, ibyo birokoroko biba bigaragara ku gasongero kazo, cyangwa se ku mutwe bifite ibara ritukura.

Ubworozi bw'amatungo ariko bukorerwa mu rugo. Harimo inka usanga ziba aho bita mu kiraro ndetse icyo kiraro kikaba kirimo ubwatsi, aho zirira hameze neza kandi hasukuye.

Ubworozi bwa kijyambere bukorwa bwihariye butandukanye n'ubworozi bwa gakondo, aho usanga umuntu yorora inka akayigira neza akayambika amaherena, akajya yoza ayogezareza ku gihe, akayambika uburyo bwose bushoboka akajya yigaburira ikarya igahaga ikamera neza igashisha.

Korora mu gisambu ni igikorwa gikorwa ku borozi bororera inka zabo cyangwa se andi matungo nk'ihene mu gisambu, usanga bucya mu gitondo bakajya kuragira ndetse baba bafite abashumba babugenewe bagenda inyuma y'izo nka zabo mu gihe ziri kurisha kugira ngo zitabura cyangwa se zigatana zikajya kona.

Ubuvuzi bw'amatungo ndetse n'aho bazivurira, aho bazivurira usanga ari ahantu haba hubatse hashinze ibiti cyangwa se ibyuma harimo inka, amatungo atandukanye, usanga abazivura bagenda baturuka iruhande rw'ibyo biti cyangwa se rw'ibyo byuma, bakagenda bazitera inshinge bazishyiraho imiti.

Aborozi b'amatungo usanga bifashisha ibice bitandukanye, mu gukingira ndetse no gutera intanga inka, kugira ngo zizabyare ndetse banazivura izirwaye indwara baba barazubakiye aho kuzishyira, mu gihe zitera amahane.

Ingwe ni agako kaba mu ishyamba, kagira umuvuduko mwinshi, kandi gashobora kwiruka ku gihe kirekire, kakwiruka n'ahantu harehare, ako gakoko gatunzwe no kurya inyama ntikajya karya ibyatsi, kanywa amaraso y'izindi nyamaswa kaba gafite amabara y 'umukara ay'umweru ndetse kanavanganga vanze.

Inyamaswa zo mu gasozi zikunda kuba ahantu mu byanya byabugenewe, usanga harimo nk'intare intogo. Ndetse izo ntare ziba zifite amabara meza cyane, imparage ziba zifite amabara y'umweruru ndetse n'amabara y'umukara.

Inyamaswa yitwa impla inyamaswa yitwa impala, ni inyamaswa nziza itatswe n'amabara y'umweru ndetse n'amabara y'umukara. Ifite umurizo munini ikagira umutwe muremure, ndetse ikagira n'icyo bita isembasembe, ikindi kandi iyo nyamaswa yifashishwa cyane mu bukerarugendo by'umwihariko mu Rwanda mu byanya by'Akagera, iyo nyamaswa inywa amazi, ikarya n'ibiti, n'ibyatsi.